Icyumba gisize amarangi y'umweru, kirimo ikibaho kiri mu ibara ry'ubururu, harimo intebe zikozwe mu mbaho ndetse zifite amaguru y'ibyuma, ziteretse kuri sima hasi, bisa naho ari icyumba cy'ishuri.

Bimwe mu byicungo abana bicungaho mu gihe baba bageze mu gihe cyo kuruhuka. Abana biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'incuke, aho usanga bishimisha ndetse bikabaruhura mu mutwe mu gihe baba bamaze gufata amasomo yabo.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya y'umukara ndetse n'ibirahuri by'imyeru. Ifite amakositara ndetse isakaje amabati, impande yaho hariho ibigega bigaragara ko ari ikigo cy'amashuri cy'amashuri abanza.

Itsinda ry'abanyeshuri bambaye impuzankano isa n'icyatsi cyijimye, ndetse n'udupira dusa icyatsi cyijimye, aho basa n'abiga ubukerarugendo ndetse n'amahoteri.

Icyumba cyangwa se ibiro birimo abantu batatu harimo na za mudasobwa ziteretse ku meza. Babiri muri bo basa naho bari kuganira, aho umwe ari kumwereka mugenzi we ikintu cyaba gishyashya muri telefone ye, cyangwa se akaba ari andi makuru yaba ari kumwereka.

Umukobwa wambaye ishati yubururu, akora mu ruganda rw'inkweto, aho ari kuzitegura kugirango abakiriya babone kuzigura zifite isuku, kandi zitunganye. Zirimo ibara ry'umukara ndetse zisize umuti w'umukara.

Abanyeshuri bicaye mu cyumba cy'ishuri, bicaye ku ntebe zabugenewe, bambaye impuzankano y'amashati y'imyeru, ni abahungu n'abakobwa bisa naho biga mu mashuri yisumbuye, kuko bigaragara ko bambaye impuzankano.

Ikipe y'abasore bambaye imyenda y'akazi irimo amasarobeti y'ubururu ndetse n'inkweto zabugenewe, aho bigaragara ko babigize umwuga mu kuja basana imodoka zangiritse ndetse n'ibindi binyabiziga, nk'uko baba barabyize, ndetse barabiherewe uburenganzira.